Icyapa cy'ikigo cy'ubwishingizi kiri mu mabara y'umuhondo ubururu ndetse n'umweru kiriho abantu batatu bagizwe n'umwana mutoya umusaza ndetse n'umukecuru bisa nkaho ari umuryango wishimye.

Kaburimbo hirya yayo ku kayiraka k'abanyamaguru hari kunyuraho umugabo w'umuzungu wambaye ikoboyi y'ubururu ndetse n'umupira w'umukara, hirya hari igikuta cy'umukara kiriho icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hariho umugore w'umuzungu ufite imisatsi y'imikara wambaye ishati y'umutuku.

Icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo kiriho umugabo uhagaze w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara wambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umukara ufite umutaka uri mu ibara ry'umutuku asa n'uwitegereza amazu menshi amuri imbere.

Icyuma cy'umukara kiriho icyapa kiri m'ibara ry'umutuku handitseho amagambo y'umweru cyerekana ishusho yumugabo ugifashe w'umuzungu wambaye ingofero y'ubwirinzi iririmo ibara ry'umutuku ndetse n'amadarubindi.

Icyapa cyandikishijeho amagambo yanditse m'ibara ry'umweru kiriho umugabo wambaye ishati ufite impakasi mu ntoki asa n'uri gukata umwenda uri mu ibara ry'umukara.

Icyuma kirekire kiri mw’ibara ry'umukara gifasheho icyapa kinini kiri mw’ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku, amagambo yanditswe mw’ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, ndetse n'andi yanditse mw’ibara ry'umutuku ariho ishusho y'igipupe kiri mw’ibara ry'umweru, cyambaye amadarubindi y'umweru, cyambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu.

Umugore n'umugabo bambaye imipira y'imyeru, iriho ikirango kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, umugore uteruye umwana wambaye ikanzu y'umutuku, bafashe igipapuro kinini mu ntoki zabo kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hirya yabo hari ibindi byapa biri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Ibyuma birebire bishinzeho icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ubururu kiriho imodoka ndetse n'inzu yubakishije amatafari ndetse ifite igisenge cy'umukara.

Abagabo babiri umwe wambaye ingofero iri mu ibara ry'ubururu n'amadarubindi, wambaye umupira w'umutuku hariho n'ishati y'ubururu ndetse n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa ku mutwe, wambaye itaburiya iri mu ibara rya kaki ndetse n'ishati y'umutuku, bafite imbaho mu ntoki zabo basa nk'abari kubaza.

Icyuma kirekire kiri mu ibara ry'umweru kiriho icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyandikishijeho amagambogambo arimo ibara ry'ubururu kiriho umugabo ndetse n'umwana bari gusuhuzanya ku gipfunsi umwana uhetse igikapu n'umugabo wambaye ishati y'ikigina ndetse n'umwana yambaye ishati y'umweru.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku umweru ndetse n'umukara, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara, kiriho ikimenyetso kijya kumera nka sa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'irindi bara ry'umuhondo, cyakoreshwaga n'ikigo cy'ubwishingizi cyo mu Rwanda.

Akabati k'umukara karimo inkweto nyinshi zitandukanye harimo iz'akazi ndetse n'izo kujyana mu myitozo, ziri mu mabara agiye atandukanye, harimo iz'ubururu umukara, umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Umugore w'inzobe ufite umusatsi muke ku mutwe uri guseka, wambaye imfunguzo mugatuza ke, wambaye umupira w'umukara ndetse n'ivu, inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye nk'umunyu ,amavuta, amakayi ndetse n'ibindi.

Iduka ry'imyenda rifite icyapa kiri mu ibara ry'umukara n'umweru, mo imbere harimo inkuta z'umweru, hanze hari ahamanitse imyenda y'imipira iri mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi ndetse n'umukara.

Iduka ririmo ikirori inkweto z'ubwoko butandukanye harimo iz'akazi ndetse n'izo gukorana imyitozo, amashati, ibikapu ndetse n'imipira yo mabara atandukanye, harimo umuhodo, ubururu cyangwa se umukara.

Iduka rimanitsemo imipira iri mu ibara ry'umweru, umukara hashushanyijeho ibishushanyo biri mu ibara ry'umweru hirya yayo harimo ibindi bikoresho by'ubugeni nk'ibikombe bikozwe mu ibumba.

inzu iteye amarangi y'cyatsi ifite imiryango ibiri ikoreramo amaduka acuruza imyenda, hanze yayo hari kunyuraho abagabo babiri umwe ufite imisego iri mumabara yumukara umweru ndetse n'umutuku. Nundi ufite imyenda mu ntoki iri mu mabara atandukanye, ruguru yaho hari umugore wambaye imyenda yubwoko bwi'bitenge bifite ibara ry'umutuku.

Igitebo kiboshye kirimo udukomo two kwambara ku maboko turi amabara menshi nk'ubururu, umuhondo, umutuku, ndetse n'umweru.

Iduka ririmo itara riri kwaka ku gisenge, ririmo amakoti yo mu bwoko butandukanye; ay'uruhu ndetse n'ayo mu mwenda, ari mu mabara atandukanye, nk'umukara, umuhondo, ikigina, ndetse n'icyatsi.

Iduka riteye amarangi yo mu ibara ry'umweru, ryubakishije amakaro hasi, ririmo ibintu bitandukanye by'ubugeni, nk'imyenda inkweto ndetse n'imitako yo mu nzu igiye itandukanye.

Ikamyo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara imbere yayo ihagaze umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'ipantaro y'ikoboyi y'umukara ufite icyapa gikozwe mu ishusho y'urufunguzo kiri mu mabara y'umweru umukara ndetse n'umutuku.

Abagabo babiri bafite icyapa kiri mu ishusho y'urufunguzo cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umutuku, inyuma yabo harimo imodoka iri mu ibara ry'umukara ndetse n'indi modoka iri mu ibara ry'ivu n'indi iri mu ibara ry'umukara hirya harimo imodoka ebyiri ziri mu ibara ry'umweru ndetse inyuma yabo hari inzu ifite inkuta ziririmo ibara ry'umweru n'icyapa kiririmo ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Umugore n'umugabo bahagaze bafashe ishusho y'urufunguzo ruri mu ibara ry'umweru, rwanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku inyuma yabo hahagaze imodoka iri mu ibara ry'ivu ndetse inyuma hari inzu ifite irangi ry'umutuku, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara hirya yayo hari indi nayo iri mu ibara ry'umukara, zihagaze munsi y'inzu igerekeranyije yubakishije amatafari ahiye iteyeho n'amarange y'imyeru.

Imodoka ifite ibara ry'ivu ihagaze hagati mu muhanda hirya yawo hari igikuta cyubakishije amabuye ari mu ibara ry'umweru n'umukara, iruhande rwayo hari ubusitani burimo ibiti inyuma yayo hari imodoka y'umukara ndetse n'ibiti bitandukanye ndetse n'inzu iteye amarangi y'umweru.

Imodoka iri mu ibara ry'umukara ihagaze muri kaburimbo hirya yayo hari ubusitani buteye mo ibiti, ndetse no hepfo yayo hari ibiti biri mu busitani burimo n'indabo ngufiya.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru ifite ibirahuri by'umukara, hirya yayo hari izindi modoka nyinshi nazo ziri mu ibara ry'umweru hirya hari inzu ndende iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Imeza y'kirahure iteretseho impapuro zitandukanye ndetse n'agacupa k'amazi yo kunywa, imbere yayo hari ikamyo ntoya iri mu ibara ry'umweru, ndetse no hepfo hari n'indi kamyo imeze nkayo iri mu ibara ry'umweru zose ziri mu nzu ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru.

Abadamu babiri umwe witandiye, undi wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara barasinya ndetse bakuzuza ku bipapuro bibateretse imbere ku meza iriho amazi ndetse n'ibindi bipapuro byabugenewe.

Inzu ifite inkuta z'umweru zirimo imodoka enye, zifite ibara ry'umukara, imbere hari akameza gakozwe mu rubaho, gateretseho urupapuro ndetse na mudasobwa, hirya ku gikuta hari icyapa kiririmo ibara ry'ubururu ndetse n'ikimenyetso cya ha, cyanditse mu mabara y'ivu.

Imodoka ntoya iri mu ibara ry'umukara, ifite icyapa inyuma kiri mu ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo y'umukara, hirya yayo hari inzu nini iri mu ibara ry'ivu ndetse n'ibiti birebire.

Abagabo babiri bahagararanye bambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'undi wambaye ipantaro ya kaki n'ishati y'umweru inyuma yabo hari imodoka nini iri mu ibara ry'umukara ndetse hari n'inzu iteye amarangi y'umuhondo ifite icyapa hejuru kirimo amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Imeza y'ikirahure, iteretseho agacupa k'amazi yo kunywa, ndetse n'ikinyamakuru cyo gusoma, imbere yayo hari ikamyo iri mu ibara ry'umweru, ndetse no hepfo hari andi makamyo atatu, ari mu ibara ry'umweru.

Imodoka eshatu zihagaze ku murongo umwe, aho imodoka imwe ya mbere ifite ibara ry'ivu, ikurikiyeho ifite ibara ry'umukara ndetse n'indi ikurikiyeho ifite ibara ry'ivu, imbere yayo hari ibyuma biri mu mabara y'ubururu.

Kaburimbo irimo imodoka ifite ibara ry'ivu, hirya yayo hari ubusitani ndetse haparitse n'izindi modoka ziri mu ibara ry'umweru n'indi iri mu ibara ry'umukara, no hepfo hariyo izindi modoka, ndetse hari n'inzu ifite igisenge cy'umukara iteye irangi ry'umweru.

Umugabo wirabura udafite umusatsi ufite ubwanwa buke wambaye umwenda uririmo ibara ry'ikigina ufashe ku cyuma gikoreshwa mu kubara amafaranga imbere ye hari meza y'urubaho iriho telefoni ebyiri ndetse n'amafaranga menshi azinze.

Ibiceri bibiri bitoya, kimwe kiri mu ibara rya feza, gishushanyijeho isaka, ikindi kiri mu ibara rya zahabu, gishushanyijeho ikijya kumera nk'ururabo, biteretse ku rubaho.

Umugore wirabura ufite imisatsi y'imikara, wambaye itaburiya y'umweru yicaye imbere y'icyuma gishinzwe kubika no gutunganya amata, ari kuvomera amata mu kabido kabugenewe.

Indobo iteretse ku meza y'urubaho irimo amarindazi abiri ndetse n'icyuma cyifashishwa mu kuyafata.

Akabati gakozwe mu byuma kari mu ibara ry'icyatsi, gateretsemo utubido turi mu ibara ry'imyeru, hirya hari igikuta cy'umweru kiriho icyuma gishinzwe gutanga umwuka mu nzu.

Icyuma gishinzwe gutunganya no kubika amata kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru kiriho igishushanyo cy'inka kiriri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru hirya yacyo hari akabati k'ibirahure karimo utubido tw'amata atandukanye.

Igikombe cy'ikirahure kirimo amata y'inshyushyu, giteretse ku meza ariho igitambaro cy'umweru kirimo n'ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi, hirya hateretseho agacupa k'amazi yo kunywa ndetse na terefoni.

Umugore w'inzobe wambaye agapira k'umweru ufite imisatsi myinshi y'umukara, uhagaze imbere ye hari ameza ateretseho ubwoko butandukanye bw'utubido turimo amata, inyuma ye hari undi mugore wambaye agapira k'umweru karimo n'umukara, ndetse witandiriye igitambaro cy'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umuhondo, kiriho umugabo wirabura wambaye amadarubindi umupira w'umweru, ndetse n'ingofero afite telefone mu ntoki hariho n'umukobwa nawe ufite imisatsi y'imikara w'imibiri yombi wambaye agapira k'umukara nawe afite telefone mu ntoki ari guseka.

Icyapa kirimo ibice bibiri, aho igice kimwe cyambere kiri mumabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, kino gice kikaba kiri mabara y'umuhondo, umweru ndetse n'umukara, aho amagambo yandikishijwe amabara y'umukara.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, kiriho umwana wirabura ufite imisatsi myinshi wambaye umupira w'umweru ufite igipupe cya kaki mu ntoki ze.

Ikiganza gifite iterefoni y'umukara mu ntoki zacyo yanditsemo imibare iri mu ibara ry'umweru, inyuma yacyo hari ibendera ry'amabara y'icyatsi umutuku ndetse n'umukara, hariho n'igisiga kiri kuguruka hasi hanikijweho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ibiganza bifashe amafaranga y'abanyamahanga ashushanyijeho umugabo wambaye amadarubindi, ari mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi kijimye hariho n'umubare w'amafaranga.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'ikaruvati y'umukara n'umweru, ufite amafaramga menshi mu ntoki ze, inyuma ye hari akazu kari mu ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'umukara.

Inzu ifite ibikuta by'umweru, hanze yayo hari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hari amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, iruhande rwayo hari amabendera menshi y'ibihugu bitandukanye ahamanitse.

Inzu ifite igikuta kiri mu mabara y'umweru kimanitseho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, ndetse n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ndetse hasi hari n'ikindi cyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umutuku.

Inzu ifite ibikuta by'umweru; hariho ibirahure mu imbere; harimo icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru; gihagaze ku meza yo mu rubaho; iriho na mudasobwa zifashishwa mu gukora akazi muri ino nzu bakora.

Inzu ifite igikuta cy'umweru, hariho ibyapa biri mu mabara y'ubururu byanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, harimo akabati kari mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu kariho ikirahure, inyuma yacyo hicaye umugore wambaye ikoti ry'umukara, wambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hari mudasobwa.

Kaburimbo irimo ikamyo ifite ibara ry'umweru ndetse n'ipikipiki iriho umu motari hirya yayo hari ameza ndetse n'intebe bikozwe mu rubaho ,hejuru yayo haparitse igare ndetse mu mpande z'umuhanda hari amapironi afasheho insinga z'amashanyarazi.

Inzu ifite ibikuta byubakijwe amatafari ndetse n'igikuta cy'umweru kiriho igishushanyo cya gakondo nyarwanda cyitwa imigongo kirimo mabara y'umukara ndetse n'umweru, hirya yacyo hari intebe ndetse n'ameza biri mu mabara y'umukara ndetse biriho n'urubaho.

Ubusitani burimo indabo ngufiya, harimo inzira igana ahantu hari intebe ziri mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, zitwikirijwe n'imbaho.

Ubwogero rusange bukikijwe n'intebe z'imyeru ndetse n'imitaka y'imikara ndetse n'imitaka y'imyeru n'izindi ntebe zo kwicaraho z'imikara. Hejuru yabwo hari inzu ngari iri mu marangi y'umweru, ifite amadirishya y'umukara.

Ubusitani burimo indabo ngufiya ndetse n'ibiti bigufi burimo ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse yariho n'intebe zikozwe mu rubaho, ameza ateretseho amasahani ndetse n'ibirahure birimo ibyo kunywa.

Kampani iherereye mu mujyi wa Kigali ikoresha ikoranabuhanga yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ifite ibirahuri bisa neza mu mbuga yazo hari pasiparume n'indabyo zindi nziza cyane hepfo hari ibiti birebire.

Icyumba cy'ubwiherero gifite inkuta z'umweru, ubwiherero bw'umweru, ndetse n'ubwogero buri mu birarahure hariho n'isume y'umweru, hanze hakaba hari idirishya ririmo ibara ry'umukara.

Icyumba kinini kiri mu marangi y'umweru ndetse n'umuhondo kirimo intebe nyinshi ziri mu ibara ry'umuhondo, kirimo abantu benshi bagenda n'abagaruka hari n'abicaye basa n'abategereje kwakirwa.

Inzu nini igeretse y'amacumbi yishyurwa ifite amabara y'umweru hasi yayo hari imitaka y'imikara ndetse n'intebe zizengurutse ,ubwogero rusange bukoreshwa n'abayigana mu kuruhura mu mutwe ndetse no mu myidagaduro.

Inzu nini ifite igisenge cy'umutuku iteye amarangi y'icyatsi ndetse n'umweru, ifite amatara ari kwaka umuhondo, hanze hari ubusitani burimo ibiti by'imikindo ndetse n'intebe n'ameza bikozwe mu rubaho.

Icyumba giteye irange ry'ibara ry'ivu kirimo intebe z'imikara ziteritse imbere y'ameza azengurutse, ku meza hateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, imbere yaho hari imyerekanamajwi ndetse n'ibyapa.

Inzu nini iteye irangi ry'umweru ndetse ifite n'umubare munini w'ibirahure biyiriho, hanze yayo hari ibiti ndetse n'ubwogero rusange abayigana bakoresha.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umukara, ruriho ishusho y'isahani y'umweru iriho ubwoko butandukanye bw'ibiryo, hasi hariho urutonde rw'ibiryo bitandukanye byanditswe mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hariho n'ibiciro byabyo.

Inzu nini iteye amarangi y'umuhondo hariho ishusho ya m ,iri mu irangi ry'umutuku ndetse hasi yayo hari n'amagambo ari mu ibara ry'umukara, hanze yayo hari ibiti byinshi ndetse n'ubusitani bukikije umuhanda ugana kuri iyo nzu.

Inzu nini iteye irange ry'umweru, ifite amadirishya y'umukara, hejuru yayo hariho icyapa cy'amagambo kiri mu ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi n'umutuku, hanze yayo hateye ibiti birebire ndetse hari na kaburimbo.

Inzu nini ifite igisenge cy'umukara ndetse iteye amarangi y'umuhondo hasi hari ibiti ndetse n'ubusitani, haparitse imodoka ifite ibara ry'ivu hari intebe ziririmo ibara ry'umweru ndetse n'utumeza tw'umukara dutwikiriyeho imitaka y'imikara hari n'ubwogero rusange.

Inzu ntoya ikozwe n'ibirahure harimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hejuru. Mu imbere harimo intebe z'umukara n'ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, ikigina ndetse n'umuhondo cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara kiriho ikimenyetso kiri mu ishusho ya sa iri mu ibara ry'ikigina ndetse n'umuhondo.

Inzu nini iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, ifite icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, hanze hari imodoka ziri mu mabara atandukanye, nk'ubururu, umukara, umweru, ikigina ndetse n'ivu.

Inzu nini iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hasi yayo hari ubusitani buteyemo indabo ngufiya ndetse n'ibiti byo mu moko atandukanye.

Inzu nini igizwe n'amagorofa ane ikoreramo ikigo cy'ubwishingizi cya sunilamu iteretse imbere y'umuhanda wa kaburimbo urimo abanyamaguru bagera muri babiri ndetse n'ipikipiki iriho umumotari ndetse n'umugenzi.

Inzu nini iteye amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya ateye amarangi y'umweru, iriho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo. Kiriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru n'andi yanditswe mu ibara ry'ubururu.

Umugore wirabura uri guseka wambaye igitambaro ku mutwe, wambaye ikanzu y'igitenge afite terefoni mu ntoki ze, iruhande rwe hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, umweru ndetse n'umukara.

Icyapa kiri mubara y'umutuku cyanditsemo amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kiriho imodoka iri mu ibara ry'iroza ndetse hariho umukobwa uyihagazeho wambaye ipantaro y'umweru n'agashati n'ikoti ry'ubururu.

Amaboko abiri ukuboko kumwe gufite inzara zisize ibara ry'umweru, zifite igiceri mu ntoki ndetse hirya hari ukundi kuboko kuriho ikoti ndetse n'ishati gusa nk'ugutwikiriye agasanduku kariri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Abakobwa babiri umwe ufite imisatsi myinshi uri guseka wambaye agapira k'ubururu n'isarubeti yikoboyi y'ubururu n'undi nawe uri guseka ufite imisatsi myinshi wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ibikomo byinshi ku kuboko kwe hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Umubare munini w'abagabo n'abagore bahuriye mu cyumba kigari giteye amarangi y'umuhondo bicaye ku ntebe z'imyeru imbere yabo hariya ameza yo mu rubaho atwikirije ibitambaro by'icyatsi basa nk'abategereje kumva inama runaka.

Inzu ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru hasi hari ibyuma biriho utugozi turi mu ibara ry'ubururu, hejuru yawo hari ibyuma by'intambutsamashusho by'ikoranabuhanga ndetse nk'imbere harimo intebe eshatu z'imikara.

Icyapa kiririmo ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'mweru, icyatsi ndetse n'ubururu, kiriho umugore wirabura ufite imisatsi y'umukara wambaye ingofero y'ubwirinzi, wambaye ikositimu y'umweru, ufite terefone ku gutwi wambaye umwenda w'akazi uri mu ibara ry'icyatsi ufite n'impapuro mu kuboko kwe.

Abagore batatu bahagaze mu isoko harimo ibicuruzwa bitandukanye n'ibitunguru bisanzwe ndetse n'ibitunguru bisanzwe byo mu bibabi harimo inyanya amapavuro ndetse n'ibindi .

Abagore, abana, ndetse n'abagabo, bari mu isoko, bagura banagurisha ibicuruzwa bitandukanye, nk'insenda, intoryi, inyanya, imbuto, ndetse n'ibindi.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bari mu isoko harimo ibikorwa bitandukanye harimo abagura n'abagurisha ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikapu, uduseke, imikoropesho, inkoni ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko rigari ririmo ibiribwa bitandukanye harimo ibishyimbo , amashaza, ibijumba , ubunyobwa, ibihaza ndetse n'ibindi .

Umubare mugari w'abagore ndetse n'abagabo bateraniye mu isoko rifite amabati y'ibara ry'ubururu bari kugurisha ndetse bagura ibirimo: imbuto, ibitoki, ndetse n'imbogarwatsi.

Umubare munini w'abagore, abagabo ndetse n'abana bari mu isoko barimo guhaha harimo inkweto ziri mu ubwoko bwinshi z'amabara atandukanye nk'umukara, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu hirya hari utuzu dutwikirije shitingi z'umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Umubare munini w'abagore abagabo ndetse n'abana bari mu isoko bagura ndetse banagurisha ibintu bitandukanye nk'inyanya, imboga, imbuto ndetse n'ibindi.

Isoko rinini ririmo abantu batandukanye bari guhaha ibintu nk'ibikapu ndetse n'inkweto izi ngufiya zo kwambara ziri mu mabara atandukanye nk'umweru, umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara.

Iduka ririmo ibikoresho by'ubugeni bya gakondo, birimo uduseke, ibishushanyo, imiringa ingoma, ibikomo, ibininigi ndetse n'ibindi.

Umubare munini w'abagore, abagabo ndetse n'abana bari mu isoko bagurisha ndetse bagura ibicuruzwa bitandukanye nk'imyenda, amashuka, imbuto, imboga ndetse n'ibindi.

Iduka ricuruza imyenda irimo imyenda itandukanye nk'iy'abana ndetse n'iy'abakuru harimo: amakabutura, amasogisi, amashati, ndetse n'imipira biri mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, umuhondo, ndetse n'ibindi.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bari mu isoko, bagura ndetse bagurisha, ibintu bitandukanye birimo inyanya, intoryi, imboga, ibirungo, ndetse n'imbuto.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bahuriye ahantu hamwe basa nk'abari kugura abandi bagurisha ibicuruzwa bitandukanye birimo ibitoki, imyumbati, amateke, karoti, imineke , ndetse n'ibindi.

Umubare munini w'abantu bari mu isoko rigurishirizwamo imyenda imanitse ku biti iri mabara atandukanye nk'umuhondo, icyatsi, ubururu ari mu bwoko butandukanye nk'amakanzu, imipira, amashati ndetse n'amapantaro.

Kaburimbo irimo amapikipiki menshi, iruhande rwayo hari amapironi hariho amatara yo ku muhanda, ndetse yahagaze n'imodoka zifite ibara ry'umweru, hari n'inzu nini iri mu ibara ry'umutuku ndetse iriho n'icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, kiriho umugore n'umwana we bari kumwe.

Umubare w'abantu benshi bahagaze muri shitingi ifite ibara ry'umutuku, iriho ikimenyetso ndetse yanditseho amagambo y'umweru, harimo n'ibyapa biri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, hariho abantu basa nk'abari kwamamaza, imbere yabo hari inzu ndende iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Abagabo batanu bambaye imipira y'imihondo ndetse n'amapantaro atandukanye ndetse n'undi mugore umwe wambaye ikanzu ufite udupfunyika mu ntoki ze. Inyuma ye hari icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu kiriho abagabo babiri.

Umuntu ufite terefone mu ntoki iri mu ibara ry'umukara n'imbere harimo ibara ry'ubururu ndetse n'ikimenyetso kiririmo ibara ry'ubururu n'umuhondo, wambaye ikoboyi yu'ubururu umupira w'umweru ufite n'agakapu k'umukara.

Ibiganza by'inzobe bifite itelefoni mu ntoki irimo ibara ry'umweru ndetse n'umutuku asa nkaho arikurebamo ibintu runaka.

Akazu gatoya kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, gakunze gukoreshwa n'abatanga serivisi z'ikigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda.

Kaburimbo irimo amapikipiki agera muri arindwi yicayeho abamotari bambaye imyenda y'imituku yanditseho amagambo yego moto, iri mu ibara ry'umweru, hirya yabo hari ubusitani ndetse n'ibiti imbere yabo harimo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'inzu zifite ibisenge by'umutuku zubakishije amatafari ya rukarakara.

Umugabo uhagaze imbere y'igipangu gifite ibara ry'ivu, wambaye umupira utukura, ndetse n'ikoboyi ifite ibara ry'ubururu, afite agapfunyika mu ntoki, ndetse yambaye n'ingofero y'ubwirinzi, iruhande rwe yaparitse ipikipiki iri mu ibara ry'umutuku, yikoreye agapfunyika kari mu ibara ry'umutuku, ndetse ryanditseho amagambo y'umweru, hirya hari ubwoko butandukanye bw'ibiti ndetse n'ubusitani.

Kaburimbo irimo ipikipiki iriho umumotari wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero y'ubwirinzi iri mu ibara ry'umutuku, ipikipiki yikoreye agasanduku kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru hirya hari ubusitani burimo n'ibiti.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, cyandikishijeho amagambo mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hariho agapfunyika kuzuyemo ibiribwa, harimo imboga, imbuto nk'imineke ndetse harimo n'iterefone irimo imboga ndetse n'imbuto.

Ipikipiki iri mu ibara ry'umukara yicayeho umugabo ufite umusatsi mwinshi, n'ubwanwa bukeya wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara, ufite ingofero y'ubwirinzi iri mu ibara ry'icyatsi; ipikipiki iriho agasanduku kari mu ibara ry'icyatsi n'umukara, gashushanyijeho umuntu uri mu ibara ry'icyatsi ndetse kanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amashati ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ingofero z'ubwirinzi ziri mu ibara ry'icyatsi, hagati yabo hari ipikipiki yikoreye isanduku yanditseho vuba mu ijambo riri mu ibara ry'umweru, inyuma yabo hejuru hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ndetse hari n'inzu nini ifite ibara ry'umuhondo.

Abagabo babiri harimo umuzungu wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse n'umwirabura wambaye ishati ifite ibara ry'umukara, bahagaze bafashe ku gikuta bitegereza imisozi, ibiti ndetse n'ubusitani ndetse n'amazu abitegeye.

Icyumba giteye amarangi y'umweru hasi hari amakaro ari mu ibara ry'umweru gifite idirishya ry'umukara ndetse n'ibirahure harimo igitanda kiri mu ibara ry'umukara gisashishijeho n'amashuka y'umweru.

Umugabo wambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo n'umukara, uhagaze mu isambu nini hirya hari igikuta cyubakije amatafari ahiye, gikikije inzu ifite igisenge cy'umutuku iteye irangi ry'umweru, ndetse n'indi nzu iri hejuru yayo nayo ifite igisenge cy'umutuku.

Inzu ifite ibikuta biteye amarangi y'umweru, mu cyumba cy'uruganiriro harimo intebe ziriw'i ibara ry'umweru ndetse mu cyumba cy'uburiro hari intebe ziri mu ibara ry'umukara, ku gikuta cyo hino hariho ishusho imanitse ku gikuta iri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, hari akameza gakozwe mu rubaho.

Inzu ifite amarangi y'umweru irimo intebe zifite ibara ry'ubururu ndetse n'akameza k'umukara, ruguru hari ameza yo kuriraho akozwe mu rubaho ndetse n'intebe zikozwe mu rubaho, ruguru y'ameza yo kuriraraho harimo icyuma gishinzwe gukonjesha ibintu bitandukanye.

Inzu ifite inkuta z'umweru, irimo umugabo w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, wambaye ishati y'umweru ndetse n'ikoboyi y'ubururu, ari kugenda afashe ku ntebe y'umukara, imbere yayo hari imeza ikozwe mu rubaho.

Inzu nini yubakishijwe amatafari ahiye, iriho amadirishya y'imyeru, hanze yayo hari ubusitani burimo indabo ngufiya ndetse n'ibiti.

Icyumba cyo kuraramo kinini gifite inkuta z'umweru n'inzugi z'umukara, kirimo igitanda kinini gitwikirijeho, amashuka ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ivu hariho umusego uri mu ibara ry'umweru.

Inzu idafite igisenge kizamuye iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'umweru ndetse n'umuhondo, irimo amakaro y'umweru irimo inzugi zifite ibara ry'umukara ndetse n'amadirishya afite ibara ry'umukara, arimo nk'ibirahure bibonerana.

Inzu ifite ibara ry'ivu, ifite urugi ndetse n'amadirishya ari mu ibara ry'umweru, hejuru yayo hari ibyuma biri mu ibara ry'umukara, bikikije ikibuga kiri hejuru y'iyi nzu.

Inzu nini ifite igisenge cy'umutuku iteye amarangi yubururu ifite amadirishya y'icyatsi hanze yayo hari ubusitani burimo indabo ngufiya ndetse buteyemo n'imbuto nk'ibigori, hari n'gikuta gikikije inzu kiririmo ibara ry'ubururu.

Abantu bane bari kubaka inzu n'amatafari, hirya yayo hari ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti, ruguru yayo ho gatoya ari inzu zindi harimo izifite ibisenge by'umutuku n'amarangi y'umweru ndetse n'izifite ibisenge by'umweru.

Inzu ifite igisenge cy'umutuku, iteye amarangi yumweru, ifite amadirishya yumukara ndetse n'imiryango y'ikigina n'umukara, hanze hari ubusitani buteyemo igiti cy'imbuto.

Inzu nini iteye amarangi y'ubururu ndetse n'ay'umweru, ifite igisenge cy'umutuku ndetse n'amadirishya y'umukara ifite utwuma tuyikikije turi mu ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura ufite agasatsi gake wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'umukara, inyuma ye hari inzu nini ifite irangi ry'umweru ndetse ifite n'amadirishya ariho irangi ry'ubururu, ifite igisenge kiri mu ibara ry'umweru.

Inzu ebyiri zegeranye zigeretse kabiri ziteye amarangi y'umweru zifite amadirishya y'imikara, hanze yazo hateye ubusitani ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Iduka ririmo ibikoresho bifashisha mu nzu bitandukanye, harimo amatara amavazi amasahani intebe ntoya, ndetse n'ibyirori byo kwirebamo.

Inzu nini ifite inkuta z'umweru hasi yari icyumba cy'uburiro kirimo intebe ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'ameza ari mu ibara ry'umuhondo n'umutuku zicayeho abantu abandi bari gutambuka.

Isoko ririmo abagore n'abagabo ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'inkweto z'abagore, ndetse n'iz'abagabo ibikapu by'abagore biri mumabara aratandukanye nk'umukara, ikigina, ndetse n'umweru.

Iduka ririmo utubati tw'umweru dukozwe mu rubaho ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibikapu by'abagore, amadarubindi, imyenda, ibikomo, imyenda y'abagore, ndetse n'ibindi, hejuru yaryo ku gisenge ari icyuma gifata amashusho gishinzwe no gucunga umutekano wo mo imbere.

Iduka rinini ricuruza ibintu bitandukanye nk'imikandara ,udukapu tw'abagore inkweto z'uruhu zirimo mu mabara atandukanye nk ' ikigina, umukara ndetse n'ivu ndetse n'utundi dukapu turi mu mabara atandukanye .

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, ruriho n'ibimenyetso by'ibigo by'ubwisungane mu kwivuza mu Rwanda, biri ibara ry'umukara, na byo harimo n'ikirangantego cy'u Rwanda kiri mu ibara ry'ubururu.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara, iriho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda, kiri mu mabara y'umukara yanditseho n'amagambo ya repubulika y'u Rwanda, na minisiteri y'ubuzima n'intara ndetse n'akarere ka nyiri ikarita biri mu mabara y'umukara.

Umugabo wirabura ufite umusatsi muke, ufite ubwanwa buke wambaye umupira w'umweru uriho ikirango kimwe ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo ufite indangururamajwi mu ntoki ze imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa inyuma hari icyapa kiririmo ibara ry'umweru cyandikishaho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi kiriho umugore n'umugabo basa n'abishimye.

Umugore wambaye ibitenge ahetse umwana yitwikiriya agatambaro k'umweru ahagaze mu muryango w'inzu yubakishije amatafari ahiye iteyeho amarangi y'umweru ndetse n'amarangi y'ubururu yanditsweho amagambo y'ikigo nderabuzima, hanze ari indobo yagenewe kujugunyamo imyanda iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'ubusitani.

Ikarita iri mu ibara ry'ubururu iriho amagambo ndetse n'ibimenyetso by'ibigo by'ubwisungane mu kwivuza biri mu mabara y'umukara, ikarita isanzwe ikoreshwa n'abaturage b'u Rwanda mu kwivuza.

Umuntu ufashe impapuro ndetse n'ikarita iri m'ibara ry'ubururu n'icyatsi n'umuhondo by'ubwisungane mu kwivuza imbere ye hari mudasobwa irimo ibyangombwa bisa nk'ibyo afashe mu ntoki ze.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bahagaze basa nk'abari kubwirwa ibintu runaka, inyuma yabo hicaye abana ndetse n'abandi bakobwa bafite imitaka, hirya naho hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo n'icyatsi cyanditseho ejo heza.

Umubare munini w'abagore n'abagabo bahagaze ahantu hamwe, basa nkaho bari kubwirwa ibintu runaka, inyuma yabo hicaye abandi bafite imitaka ibiri ndetse hari n'icyapa kiri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, cyanditseho amagambo ya ejo heza.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara, ufite imisatsi myinshi y'umukara, uri kugenda mu isoko, hirya no hino hari utubati turimo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibyo kunywa, amasabune ndetse n'ibindi byo kurya.

Iduka ririmo akabati gakozwe mu mbaho karimo amacupa y'ibinyobwa bitandukanye, afite amabara atandukanye, nk'umutuku, umuhondo, umukara, ndetse hari n'akabati karimo ibara ry'icyatsi nako karimo andi macupa y'ibinyobwa.

Umukobwa wirabura wambaye amadarubindi, ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye agakoti k'ikoboyi ndetse n'agapira k'umweru, ufite icyo ari guhahiramo kirimo inanasi, wambaye amashashi ku ntoki asa nkuri gushaka ikintu runaka mu isoko.

Abagabo babiri umwe wirabura ufite agasatsi gake, wambaye umupira w'icyatsi ufite amatirimusi mu ntoki n'undi wirabura wambaye ingofero y'umuhondo ndetse n'umupira w'ikigina ufite iterefone mu ntoki, bari mu isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye nk'amatelimusi, ibisorori, amasahane ndetse n'ibikombe.

Akabati ko mu isoko rikuru, kagizwe n'ibyo kunywa birimo amazi imitobe y'ubwoko butandukanye, imyembe ndetse n'inanasi, karimo amata ndetse n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye.

Isoko rinini ririmo utubati tw'umukara turimo ibicuruzwa bitandukanye nk'ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abantu bane bahagaze ahameze nko mu isoko harimo umugore umwe ufite udufuka asa nkaho ari guhaha ndetse n'umugabo umwe wambaye umupira n'ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu n'ipantaro y'umukara ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze, inyuma ye hari n'abandi bagabo babiri bambaye imyenda itandukanye.